Inyubako zicururizwagamo ibinyobwa aho haba harimo Henikeri, ikinyobwa kigezweho muri iyi minsi gifasha abantu bose kugubwa neza.

Inzu ikorerwagamo ibikorwa byo kwakira abakiriya bafite inyota, ndetse n'abashaka ibyo kurya, aho bigaragara ko hari resitora iba ifite inyubako imeze neza, kandi iteye amatsiko yo gushaka kuza kunweramo

Hirya no hino usanga hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi bw'ibinyobwa bitandukanye. Aho usanga harimo abantu benshi baje gufata icyo kunywa, kugira ngo bice akanyota babashe kumva baguwe neza.

Mu kabari usanga ibyo kunywa bigiye bitandukanye， n'intebe zabugenewe abakiriya bicaraho, kandi ntubura kuhasanga tereviziyo ifasha abaje ku kabari，gufata icyo kunywa banumva indirimbo.

Aho bacururizaga inzoga usangamo amoko menshi y'inzoga agiye atandukanye afasha abaje kunywa kumva baguwe neza kuko uwinjiyemo abasha kubona icyo kunywa kimunogeye kandi yifuzaga.

Inzu bakiriragamo abaje muri resitora, usanga hasa neza, hateguye mu buryo bunogeye amaso, aho usanga akenshi hari ibikoresho bikozwe mu mbaho bituma aho hantu hagaragara neza.

Inyama ya burusheti ihiye nziza cyane bateye ibirungo kugirango uyirya, abashe kuherarya yumva aryohewe, kandi yumve ariko arimo kurya inyama nziza.

Iyo ugeze mu tubari usanga abantu benshi bari kumwe n'abakunzi babo babagurira icyo kunywa kugira ngo babashe kwishimana bamererwe neza kandi bumve baguwe neza.

Inzu bacururizamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye ,usanga ari ahantu hasa neza ,hakoze neza kandi hatunganyijwe ku buryo habereye ijisho ,uje kuhafatira icyo kunywa yumva aguwe neza.

Akabari bacururizamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo za pirimusi, za mitsingi, turubo. Akaba ari akabari kari ahantu hasa neza.

Ibitoki bihiye batekanye ibishishwa ni ibitoki biba biryoshye cyane aho iyo babikuzaniye ku meza wumva ugize apeti cyangwa se ugize ubushake bwo kuba warya

Abakunze kugera mu mahoteri usanga hari ahagenewe kwicarwa, igihe abantu bumva bashaka kuba bafata icyo kunywa cyangwa icyo kurya bitegeye imisozi, haba hari ahantu hameze neza hari intebe zifite n'imitaka ubona icyo ushaka.

Iyo ugeze ku nyubako za hoteli uhasanga abantu benshi baje kugira ngo babashe kugira bimwe mu byo bakorera muri izo hoteli, haba kubahafatira amafunguro, kuhacumbika kugira ngo urugendo baba bafite mu gihugu mu gihe ari abanyamahanga, rukomeze kugenda neza.

Inyubako zicururizwagamo ibikoresho byo byo mu bwubatsi, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi. Haba nk'amafumbire, ibyuma bitera umuti, aho mu nyubako z'inyubako haba harimo amasima ndetse n'ibyuma bitandukanye.

Hari aho usanga bacururiza ibikapu bigiye bitandukanye, ibikapu abana batwaramo amakayi iyo bagiye ku ishuri, kugira ngo ayo makayi babashe kuyafata neza, ntabashe kuba yakwangirika.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa byo gucuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse no kubikora, nka za mashini, amasaha, amafurashi n'ibindi bitandukanye bifasha abaturage mu guteza imbere iterambere ryabo.

Hirya no hino asanga ahantu bacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amabatiri, ndetse ukahasanga n'aho bacururiza imyenda, byose usanga biri hanze babyambitse bimwe mu bipupe, kugira ngo ubibona abashe kubikunda abigure.

Inyubako yacururizamo ibikoresho by'isuku, usanga hariho abantu benshi bategereje kuba batwaza abaje kugura ibyo bikoresho .Harimo :amasabune y'amazi, n'amasabune akomeye, ndetse n'indi miti yica udukoko.

Hirya no hino, uhagenda uhasanga ibyapa byamamaza， byamamariza sosiyete zigiye zitandukanye，aho usanga hari inzu zikorerwamo ubucuruzi bw'ibinyobwa bitandukanye， n’abakira ba mukerarugendo，uwageze aho hantu，akabasha kumva aguwe neza.

Inzu yakorerwagamo ibikorwa byo kwakira abakiriya baje bafite inyota ndetse n'inzara, aho babyita resitora abandi bakabyita aho gufatira amafunguro.

Ndabona iguriro ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye, ibitunguru, ndetse ririmo n'abacuruzi bagiye batandukanye, ababyeyi, abana ndetse n'abasore.

Inyubako bacururizagamo amoko atandukanye y'ibitambaro by'abagabo n'iby'abagore ndetse iyo unaguze, baranakudodera igatahana umwenda wuzuye wanahita wambara.

Umucuruzi urimo gucuruza ibisheke ku igare wabanje kubitemagura, kugira ngo abone uburyo bwiza bwo kubicuruza bitamugoye, aho yaparitse mu muhanda gunyurwamo n'abanyamaguru.

Inzu bogosheragamo abantu bagiye batandukanye abana, abagore, abagabo ndetse n'abasaza n'abakecuru, ni inzu nziza cane aho bogosha neza abaje babagana.

Inyubako zikorerwagamo ubucuruzi bw'inzoga zigiye zitandukanye, ndetse akaba ari inyubako ziba zubatse mu buryo bugeretse ku buryo bugezweho ,kugira ngo abinjiramo babashe kumva baguwe neza.

Ubu ngeze mu nzu zateguriwe gukorerwamo ibikorwa byo kwakira abakiriya, haba abaje kurya cyangwa se gucumbika mu mahoteli, uhasanga ibyiza byinshi bikurura abo bantu, nko kuba aho hantu hatangirwa serivisi nziza.

Inzu bacururizagamo ibyo kurya bitandukanye, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu isuku, nk'amawomo. Ibyokurya twavugamo nk'amagi, imigati, ibinyobwa bigenda bitandukanye bifasha umubiri w'umuntu kugubwa neza.

Agakiyosike gatangirwagamo serivisi za Emutiyeni, arimo kubikura kwakira amafaranga no kuyohereza ndetse no kuzigama ku mabanki agiye atandukanye.

Inyubako zikorerwagamo ubucuruzi bugiye butandukanye, aho harimo akabari, amaresitora, aho bacururiza ibikoresho bigiye bitandukanye, ubona ko haba hari uzana urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye.

Inzu icururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibyapa kwandika ku myenda, gukora amakashi yifashishwa mu biro, ndetse no gufotora impapuro zigenda zitandukanye kugira ngo iterambere rirusheho gusakara.

Ibyapa byamamaza ibikorwa umuntu akora, ni kimwe mu bituma abakiriya babasha kwiyongera. Kuko utamamaje ibintu bye bidapfa kumenyekana. Iyo rero ugize umurimo ukora ugomba gushaka uburyo uwamamaza wifashishije ibyapa.

Hirya no hino iyo ugenda usanga inyubako zitangirwamo serivisi zigenda zitandukanye, nkiz'irembo, izo gupima ubutaka, izo gucamo ibice, izo gukora mitasiyo, ndetse na serivisi za banki. Aho usanga abaturage batakivunika bakora ingendo ndende.

Inyubako yitwa Gihanga ikaba ari inzu, iyo yubatse imbere hari akabaraza kafunguye, kugira ngo abantu babashe kubona aho bikinga, ikaba ifite amabara g'umuhondo, hakaba hanamanitseho kanari, kugira ngo abantu babashe kureba amakuru.

Inyubako zikorerwagamo n'abacuruza inzoga zo kunywa ndetse bakanacuruza imiti yifashishwa mu masuku mu ngo ndetse hakanakorerwamo ibikorwa byo gucuruza imyenda ikenerwa n'abantu bagiye batandukanye ndetse ikanakorerwamo uburyo bwo gusukura abantu mu mutwe babogosha.

Iyi ni inzu ikorerwagamo ibikorwa bigiye bitandukanye bya banki. Haba kubitsa amafaranga ndetse no kuyabikura, kohereza amafaranga ndetse no kuyakira mu buryo bworoshye.

Isoko, bacururizagamo ibikoresho bigiye bitandukanye: ibikapu, amasafuriya, ibikombe, amabase, ibikapu. Ndetse nkaba ndimo no kubona umucuruzi uhagaze imbere y'ibyo bikoresho.

Inyubako nyinshi bakoreramo ibikorwa byo gufasha abaturage, kubona serivisi zitandukanye nk'izo gukora amatelefoni, amateleviziyo n'ibindi bitandukanye, nko kugura za telefone. Hirya no hino ibi bikorwa urabihasanga.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi ntubura kuhasanga bimwe mu bikoresho bacuruza babimanitse ku nzugi, kugira ngo umugenzi uhanyura abashe kubonako aho hantu hari ibicuruzwa bihaba.

Inyubako icururizwagamo ibyo kurya, ibikoresho byo mu rugo, harimo amagi, udukapu twifashishwa bahahiramo, imigati ndetse n'ibikoresho bya telefoni bigiye bitandukanye.

Imbuto z'avoka ni kimwe mu gihingwa gikomeje gukundwa na benshi ,aho ibice byinshi usanga kihahinze kuko ni igihingwa gifasha abantu kuba babona imbuto zigiturutseho bakazirya ndetse bakanazikuramo bimwe mu byifashishwa mu rugo nk'amavuta yo kwisiga.

Gucuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, amaradiyo, amabadiri ya telefone, amasaha ndetse bakanakanika ibikoresho bigiye bitandukanye, televiziyo, radiyo, ipasi, ragoje n'ibindi bige bitandukanye.

Isoko bacururizagamo inkweto zifunguye z'abana harimo boda boda, kamambiri, ndabona ari isoko rikorera hanze ritabashije kuba risakaye.

Iduka ricuruzaga ibyuma by'ikoranabuhanga amapasi ,televiziyo ,firigo ndetse n' amashiga atekerwagaho n'ibikapu n'amaradiyo.

Inyubako icururizwagamo ibikoresho by'ubwubatsi harimo: amarangi, amasinga, ibyuma, amatara n'ibindi bitandukanye byifashishwa kugira ngo hagaragare ubwiza bw'inzu.

Inzu bacururizagamo imyaka igiye itandukanye aho itanditse imwe hanze harimo amafu, amasaka ibishimbo ,ibigori n'ibindi bigiye bitandukanye ndetse hariho n'umuguzi n'umugurisha.

Isoko bacururizamo ibikoresho bigiye bitandukanye, usangamo ibintu byinshi bigiye binyuranye, harimo udukapu twifashishwa abantu bahaha, haba udukoze mu mifuka, udukoze muri pulasitike ndetse ukanasanga n'utundi tuntu twifashishwa mu masuku n'udutambaro bahanaguza ku meza.

Ahantu abafite urugendo baza kurara mu gihe bubiriyeho cyangwa se bananiwe, ahantu haba hameze neza hari igipangu cyiza cyane, kandi kiriho ibyapa byiza.

Hirya no hino uhasanga inyubako zikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, aho usanga bacuruza ibyo kunywa bitandukanye ahandi ugasanga bacuruza imbuto zigiye zitandukanye nk'inyanya zifasha abaturage kugira ubuzima bwiza.

Inyubako zikorerwagamo ubucuruzi bwo gufasha abantu bafite ikibazo cy'inzara, kuba babona aho bagura ifunguro ryoroheje, aho ugeramo ugafata ico kunywa ndetse n'ico kurya.

Mu buryo bwo kurushaho kugira ubuzima bwiza bw'amatungo, hari amaduka acuruza ibijyanye n'imiti y'amatungo, ifasha inyamaswa kugira ubuzima bwiza ndetse n'ibihingwa bimwe na bimwe nk'inyanya, karoti ndetse n'amashu.

Hirya no hino hamaze kubakwa imihanda inyurwamo n'imodoka, ndetse ntibahwema no kubaka uduhanda tunyurwaho n'abanyamaguru, kugira ngo umuhanda ubashe gukoreshwa neza hanirindwa impanuka.

Inzu icyururizwagamo ibikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga, ndetse no mu gucunga umutekano nka za camera, za kompiyuta, iherereye mu karere ka musanze mu ntara y'amajaruguru.

Mu bihe tugezemo ni ngombwa ko tugira gahunda zo gufata amazi twifashishije ibigega byabugenewe bifata ayo mazi kugirango tubashe kwirinda isuri igenda itembana ubutaka ndetse n'ibikorwa remezo.

Gucuruza urusenda, urusenda rufasha abantu mu kugira apeti mu gihe barimo kurya, cyane cyane insenda z'umuhondo, aho kandi urusenda rufasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Hirya no hino uhasanga ahantu bacururiza ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amaradiyo, antene, amatara, amasaha, mikoro ndetse n'ibindi bikoresho bidufasha, mu kurinda ibikoresho byacu by'ikoranabuhanga, kugira ngo bitangirizwa n'umuriro w'amashanyarazi.

Hirya no hino uhasanga amazu bacururizamo ibyo kurya, nk'imiceri usibye ko hari aho usanga izo nzu ziri mu kajagari, zitubatse ku buryo bumeze neza.

Inyubako bacururizagamo imyenda zigiye zitandukanye, z'abagabo iz'abasore zibafasha kuberwa mu gihe bazambaye, kandi bakagaragara neza aho banyura hose.

Mu bice byinshi by'Igihugu ntubura kuhasanga abakora ubucuruzi bw'ubuzunguzayi, aho bagenda batembereza imyenda hirya no hino kugira ngo ibashe kugurwa, hanyuma babone amafaranga.

Amazu ariho ibyapa bigiye gutandukanye, ahandi ni amazu ageretse kabiri, aho imbere yaho hahagaze abamotari, abanyozi ku magare, ndetse n'abandi bari gusunika ingorofani.

Inyubako zitangirwagamo serivise zitandukanye zijyanye n'irembo, bakanacuruza ibikoresho byifashishwa mu masuku papiyejenie ,bakanatanga ibikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga ry'amatelefoni ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu guteka nk'amagaze.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa byo kwita ku mishwi mitoya y'inkoko, ndetse no kugira ivemo ikuze neza kandi itange inyama nziza.

Umutaka g'umukozi wa emutiyeni. Utanga serivisi zitandukanye zo kubitsa no kubikura amafaranga, ndetse no gufasha abakiriya kuba batangira gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga.

Hirya no hino ugenda uhasanga ibyapa byamamaza, kugira ngo cyangwa se bayobore abantu ahantu batazi, nk'ibyapa by'ubuhinzi bishishikariza abaturage guhinga kugira ngo bunguke.

Inyubako zikorerwagamo ubucuruzi ubw'imyaka ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwaga mu rugo, aho imbere y'amazu haba hatanditse ibintu bigiye bitandukanye, kugira ngo umuguzi urimo atambuka abashe kuba yabibona.

Hirya no hino hakomeje kugenda hubakwa imihanda inyurwamo n'abanyamaguru, birinda ko bakomeza kunyura mu muhanda unyurwagamo n'ibinyabiziga, bityo bigafasha kwirinda impanuka.

Hirya no hino uhasanga amazu yubakiwe gucumbikira abantu babyifuza, bashaka kuharara ndetse no kuharuhukira. Kugira ngo urugendo rwabo cyangwa se ibyo bateganya gukora mu ijoro bibashe kugenda neza.

Inyubako bacururizagamo, ibikoresho byifashishwa mu rugo, harimo intebe, ibitanda, amakuvurori, amashuka yifashishwa mu buriri, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo abantu babashe kugira ubuzima bwiza.

Iyo utembereye mu mujyi rwa Musanze usanga hari henshi bacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, n'amaradiyo bijyanye n'itumanaho kugirango abantu babashe kureba amakuru ndetse ukanahasanga inyubako zigezweho.

Akenshi akayira kanyurwagamo n'abagiye muri hoteli ni akayira kaba kameze neza, ku buryo kaba gateganye n'amarembo neza yaho ushaka kuba wakwicara.

Amahoteli ni kimwe mu bikorwa bikurura ba mukerarugendo tugenda dusanga mu bice bigiye bitandukanye by'intara y'Amajyaruguru nko mu karere ka Musanze aho usanga hari inyubako zagenewe abaturuka hanze bararamo kandi bakahafatira amafunguro.

Iyo ujya kwinjira mu bigo bikomeye cyane usanga ku marembo yaho barasizeho urugi kugira ngo hatavogerwa uwo ari we wese ngo abashe kuba yakwinjiramo ahubwo ubanza wakomanga.

Isoko wacururizagamo imbuto zitandukanye karoti, indimu, puwavuro, amagi ibi byose bifasha umubiri kuba wagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ni isoko bacururizagamo amabati akurakuye cyangwa se amabati yakoreshejwe, aho usanga abantu benshi bitabiriye iri soko kuko haba harimo amabati gahendutse.

Isoko bacururizagamo imyenda habaga harimo imyenda myinshi itandukanye Iy'abana , iy'abagore n'iy'abagabo aho hariho abagenzi barimo kugenda bashaka ibyo baguramo.

Isoko bacururizamo ibirago. Ibirago bikaba ari kimwe mu bikoresho byifashishwa banikaho, banikaho imyaka, kandi bakabyifashisha babihuriraho imwe mu myaka kugira ngo ibashe kumera neza.

Isoko rigurirwamo amoko agiye atandukanye y'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa harimo wotameloni, hakabamo amaji, hakabamo ibikapu ndetse n'abaguzi.

Isoko bacururizagamo imbuto zigiye zitandukanye harimo inyanya, imboga rwatsi, karoti n'ibindi bigiye bitandukanye bifasha umubiri gwacu kugira ngo gugire ubuzima bwiza.

Aho bacururizaga amoko menshi y'amavu agiye atandukanye, yisigwa n'abagabo, abagore haba hari abantu benshi hari ibikoresho byinshi, ibyifashishwa mu isuku kugira ngo ubuzima bw'umuntu bubashe kugenda neza.

Aho bacururiza ibikoresho byo mu rugo, uhasanga amoko menshi atandukanye y'ibikoresho nk'ibikombe, amasafuriya, indobo, amabase, ibikombe, imyuko n'ibindi bitandukanye bifasha kugira ngo mu rugo hahore isuku.

Iguriro ririmo imyenda zitandukanye, harimo n'abantu benshi bitabiriye isoko, kugira ngo babashe kubabagura imyenda ibanogeye.

Aho bacururiza ibintu bigiye bitandukanye by'ibiribwa inyanya, karoti, intoryi, ibihaza. Ibi bifasha abantu gutegura amafunguro yabo neza.

Isoko bacururizagamo imbuto zigiye zitandukanye inyanya, amaronji ndetse bakanacururizamo imyenda itandukanye, amasogisi kugira ngo abantu babashe kubaho bafite ubuzima bwiza.

Isoko bacururizamo, ibikoresho bitandukanye by'amasuku, amabase imikoropesho amasafuriya imbabura, n'ibindi bifasha abaturage kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, mu ngo zabo.

Abaturage bazanye ibirago ku isoko kugira ngo babigurishe, ndetse inyuma yabo mbona imisozi iteyeho ibiti by'inusi, nkabona n'abandi baragiye inka.

Isoko bacururizamo inkweto ubona ko ni isoko rimeze nabi ritubakiye ku buryo abaricururizamo baba bafite ibibazo byo kuba ibikoresho byabo byakwangirika cyangwa se ibicuruzwa byabo bikanyagirwa.

Isoko bacururizamo imbuto zigiye zitandukanye，ibihaza，amaronji，usanga ari isoko risa neza， kandi riri ku rwego rugezweho ku buryo ibiribwa biba byizewe.

Inyubako zicururizwamo imyaka igiye itandukanye ndetse n'imbuto zitandukanye. Nka karoti, inyanya, imiteja, ibishyimbo, amajyeri, ibi byose bifasha umubiri w'umuntu kugubwa neza.

Iduka bacururizagamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo tuwisiti ndetse n'utudomoro tuba turimo amaji amaji batabura kugira ngo babashe kuganywa, usanga iki kinyobwa cya tuwisiti kirimo tangawizi nziza cyane.

Isoko bacururizagamo inkweto, aho ubona haba hari abantu benshi bitabiriye kugura no kugurisha, kugira ngo bose babashe kubona ibyabazanye mu isoko.

Isoko bacururizamo inkweto zigiye zitandukanye, rikaba ririmo abacuruzi batandukanye, rikaba riri mu kajagari, ahantu hatameze neza pe! .

Ikibaya kirimo utubindi twamaze gukorwa twanasizwe irangi, bitegura kuba batugeza ku isoko, kugira ngo umubumbyi abashe kubona amafaranga.

Mu masoko agiye atandukanye, hirya no hino, ugenda uhasanga urujya n'uruza rw'abantu baremye amasoko, kugira ngo babashe kugura ibyo bakeneye, byabafasha kugira imibereho myiza, kandi bakabasha kugira ubuzima buzira umuze.

Iyo ugeze hirya no hino mu gihugu, aho usanga hari ibiyaga usanga hororerwamo amafi, akaba ari ikiribwa gikunzwe cyane mu gihugu, gifasha abantu mu kubarinda indwara zigiye zitandukanye.

Isoko rikorerwamo ibikorwa bitandukanye aho usanga hari imodoka zaje gupakira imyaka y'abaturage, ziyivana mu duce tumwe zigeza mu tundi, aho unahasanga urujya n'uruza rw'abantu.

Hirya no hino uhasanga amabase bacururizamo imbada. Imbanda ikaba ari umugati ukoze mu ngano zonyine, ukaba ari umugati uba uryoshye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi iyo uyigezemo usangamo ibikoresho bitandukanye bifasha abantu. kugira ubuzima bwiza, nk'ibikapu, amasafuriya, amasahani bifasha abaturage kugubwa neza mu ngo iwabo.

Isoko bacururizamo ibikoresho bigiye bitandukanye, haba ibijyanye no mugikoni nk'amavuta, umuceri, kawunga, ibirayi, n'ibindi bigiye bitandukanye, aho ibi bifasha abaturage kugira ubuzima bwiza.

Isoko rikorerwamo ubucuruzi bw' imyaka igiye itandukanye, aho ari umugurisha uba urimo agategereza abaguzi ko baza kuba bagura iyo myaka.

Inyubako bacururizagamo ibikoresho byo murugo bigiye bitandukanye ndetse n'ibiribwa harimo amavuta, amasahane ,amazi yo kunwa n'ibindi bitandukanye bifasha umubiri w'umuntu kugubwa neza.

Hirya no hino mu gihugu, uhasanga amasoko bacururizamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye . Urusenda, imboga, puwavuro ,byifashishwa mu gutunganya amafunguro ya buri munsi.